Akabare ni ahantu akenshi na kenshi haba harangwa n'ibyangombwa bigaragaza ko hacururizwa ibinyobwa, urugero ibyapa cyangwa se ibirango bigaragaza inzoga ,bitewe n'ibyanditswe ku macupa y'inzoga ,ni yo mpamvu rero dukwiriye gutandukanya ahantu ducururiza ibiribwa bisanzwe, naho ducururiza akabari bitewe n'ibyangombwa bihagaragaza.

Inyama ni kimwe mu byubaka umubiri buri buri wese akenera, ziraribwa ariko zikaribwa igihe zamaze gupimwa na veterineri, agatanga uburenganzira bwo kuzirya, ni yo mpamvu rero dukwiriye gufata amatungo yacu neza, ari na yo dukesha kubona inyama turya.

Ahantu twifashisha dushaka ibyo kurya ndetse n'ibyo kunwa, ni yo mpamvu ku kabari akenshi usanga hari inyama cyane cyane iz'inkoko, inkoko ni inyama ikoreshwa ku kabari, ikaribwa igihe abantu barimo banwa inzoga cyangwa se imitobe n'ibindi bitandukanye, ni yo mpamvu rero inkoko ari akanyamaswa keza koro.....

Mu biryo dutegura ku meza kugira ngo tubashe kugera ku meza, biri ubwoko butandukanye muri ibyo biryo rero dushobora gusangamo ibishyimbo, amashaza, amateke, bihaza, sarade ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, ariko tutiyibagije ko nanone dutegura inyama nubwo inyama tuvuga ngo zifite intungamubiri nk'iz'ibishyimbo, ariko rimwe na rimwe mu nyama dusangamo n'ibyo bita fati mu ndimi z'amahanga, cyangwa se ibinyamavuta ni yo mpamvu na zo zitegurwa ku meza.

Akabare ni iki? akabari ni ahantuntujya tukahaganirira dufite ibyo twigaho ariko kandi tukanahaganira turi kunywa ibinyobwa bitandukanye nshobora kunywa fanta ,pirimusi, mitsingi ,amasiteri ,siporo bitewe n'icyo ukunze ukaba sha luganira na mugenzi wawe ku ngingo cyangwa se mufite inama yanyu ifite icyo igamije kugeraho.

Bare cyangwa se akabari ni ahantu dukoresha cyangwa se twifashisha dufata ibyo kunywa n'ibyo kurya, kugira ngo tubashe kumva tumeze neza mu mubiri, kandi tunabashe kugira umubiri n'ubuzima buzira umuze, ni yo impamvu rero ari ahantu heza ho kujya tukaganira, tukunguka ibitekerezo, tukajya inama bityo tukabasha gufata umwanzuro ukwiye.

Bare cyangwa akabari mu kinyarwanda ni ahantu dukoresha tuhafatira ibyo kurya n'ibyo kunywa, tukaruhuka tukagerageza kureba ibintu byinshi bitandukanye. Urugero: turi nko mu nama y'abantu babiri cyangwa se barenze babiri, bityo tukabasha kuhafatira umwanzuro tukajyana ibyo tuhigira binyuze mu kuhaganirira.

Akabari ni ahantu dusanga ibinyobwa byinshi bitandukanye, buri wese akabasha guhitamo icyo ashoboye kunywa, akaba ari cyo ahaha, cyangwa se akakinywera aho ngaho. Niyo mpamvu dukwiye kugafata neza, tukabubunga umutekano wako, kandi tukirinda gushyiramo ibiyobyabwenge, kuko bishobora kwangiza ubuzima bwa benshi.

Mu muco tugerageze tumenyekanishe ibyo dukora twifashisha ibirango bitandukanye. Niba tugeze kwa muganga, hagomba kugaragazwa n'icyapa cy'ubuvuzi. Niba tugeze ku umuntu utanga serivisi za airtel mundimi z'amahanga cyangwa se ama unite, n'aho tugomba kuhasanga igikoresho kigaragaza akazi kahakorerwa.

Imbada ni ikiribwa gikomoka ku ngano. Ushobora kubaza ngo gikomoka ku ngano gute? Duhinga ingano zikera, zamara kwera tukazisarura tukazihura, twamara kuzihura tukajya kuzibetesha, tukazibonamo ifu tukayifashisha dukora imbada. Rero imbada ni ikiribwa cyiza na cyo gishobora gutuma ukomera, ukumva ufite imbaraga.

Butike ni ahantu dushobora gusanga ibyo kurya n'ibyo kunywa, bityo rero tukabasha kubona ibyo kurya tukananywa kugira ngo tubashe kubaho neza, dushobora kuhasanga ibyo kurya birimo capati, capati ni umugati muto cyane uba ukoze mu ifu dukunze kwita ifarini, umukate rero ukaba ari umukate mwiza uryoha, kandi ugafasha umuntu kubaho kumara igihe kirekire adakeneye kongera kurya.

botike cyangwa se inzu y'ubucuruzi mu kinyarwanda, ni ahantu ducururiza tugamije kugira ngo abaje batugana babashe kubona ibyo bakeneye. Aho hantu dukorera rero dukwiriye kuhashira ibisabwa byuzuye by'umwihariko kuhashyira ibiranga ibyo dukora urugero ibyapa. Ibyapa bikwiriye gushyirwa ku amabotiki yose cyangwa se inzu z'ubucuruzi kugira ngo uje ahagana abashe kubona icyo ashaka ko gihari.

Indabo ni igihingwa cyiza, buri wese yifuza kugira, kubera ko iyo kiri ahantu, umuntu wese uje ahagana, akahasanga umwuka mwiza. N'ejo cyangwa ejobundi, yumva yahagaruka, akagerageza no kuhazana bagenzi be, kugira ngo abashe kumva umwuka mwiza uhagaragara. Niyo mpamvu rero dukwiriye guhinga indabo, tugatera indabo aho dutuye, ndetse n'ahandi hantu henshi hatandukanye, kugira ngo tubashe kuhagirira isuku, tunamenye umutekano waho.

Ikinyabiziga tugendaho mu muhanda, kikadufasha korosha urugendo. Ni ikinyabiziga cyiza cyane rero kigira moteri. Buri wese ukeneye kwihuta cyangwa kugenda arikwirukanka aragikoresha kugirango abashe korosha urugendo rwe. Bityo abashe no kugera aho agiye atananiwe. Buri wese rero ashishikarijwe kugenda ku kinyabiziga cya moto, ariko nanone bakanakurikirana umutekano wacyo, mu buryo bwo kwirinda ko gishobora gutera impanuka.

Kugira ngo umuntu ashobore kubaho ni uko agira ibintu bimukikije, ibintu bimukikije bimufasha mu buryo butandukanye, hari ukumuha umwuka mwiza, niyo mpamvu buri wese ahantu atuye yagakwiriye kuhagira ubusitani bw'indabo ndetse n'ibindi biti biribwa, bityo bikabasha kumuha umwuka mwiza mu cyongereza twita ogusigene.

Fashoni ni intambuko n'imyambaro igaragaza kwamamaza ikintu runaka, n'iyo mpamvu rero dukwiriye kuyifashisha ndetse rimwe na rimwe aho bikorerwa tukabasha kuhagaragaza, twifashishije amwe mu mafoto twakomoye aho twari turi, tureba abari muri fashoni.

Impeta ni igikoresho gikomeye cyane, gishobora kugaragaza igihango ugiranye na mugenzi wawe, cyangwa se ishobora kugaragaza ubutwari wagize, niyo mpamvu impeta dukwiriye kumenya agaciro kayo, tukamenya ko yambarwa n'uwayihawe, ntawe uyigura agamije kuyambara, uretse impeta igaragaza isengesho, cyangwa se twifashisha dusenga ikoze mu buryo bw'ishapule.

Botike mu ndimi z'amahanga cyangwa se inzu y'ubucuruzi mu ikinyarwanda. Ni inzu dukwiriye gufata neza, ni inzu buri wese aza agana bitewe n'ibihakorerwa niyo mpamvu rero uyifite akwiye kuyifata neza utayifite nawe akwiriye kuyibungabunga akayirindira umutekano kubera ko ejo cyangwa se ejobundi ari bukenere kuyikoresha. Rero ni inzu nziza ifite agaciro kandi ikagira agaciro abantu rusange.

Depo ni ahantu tubika imyaka cyangwa se ibikoresho runaka dushobora gusangamo dufite: depo y'ibigori, depo y'ibishyimbo, depo y'umunyu, depo y'umuceri depoy'akawunga, depo y'isukari n'ibindi byinshi bitandukanye. Niyo mpamvu rero dukwiriye kugira ahantu tubika ibintu byacu kugira ngo bitazakwangirika kandi tukabika dukurikije ubumwe bwacu.

Tugerageze kwihangira imirimo binyuze mu gutinyuka tugakora imirimo tubona ko iciriritse, kuko yamirimo tuvuga ko iciriritse niyo izadufasha kugera kuri ya mirimo ihambaye dutekereza mu mitwe yacu, rero iyo mirimo iciriritse harimo kuba twafata ibintu bitandukanye tukabicuruza, urugero gufunga ubunyobwa tugacuruza, tugacururiza yemwe no ku muhanda ariko tukabisabira uburenganzira, kugira ngo tubashe kuhakorera iyo mirimo yacu.

Ubucuruzi ni kimwe mu bifitiye igihugu akamaro, kuko dukuramo imisoro idufasha kubaka ibikorwa remezo bitandukanye harimo:insengero, amashuri, ibitaro amasitade adufasha kwakira abantu batandukanye ndetse n'ibirori bitandukanye, niyo mpamvu rero ubucuruzi dukwiye kubukomeraho tukabusigasira kandi tukarinda n'icyabuhungabanya, kubera ko budufitiye akamaro kanini.

Umutirirwa ni inzu idufasha mu buryo butandukanye, cyane cyane dore ko itabasha gutwara ubutaka bunini, itwara ahantu hato, hanyuma yaba ari imiturire abagamije kuyikoresha bamwe bagakorera hasi abandi bagakorera hejuru, abandi bagakorera ahakurikiye. Niyo mpamvu dukwiriye kubaka imiturirwa kugira ngo tugerageze gukoresha neza ubutaka no guhangira ubutaka buke dufite.

Umuriro w'amashanyarazi ushobora ku kugenda mu buryo butandukanye, ushobora kwifashisha insinga. Inishinga rero ni igikoresho twifashisha dutwara umuriro w'amashanyarazi, tuwuvana ahantu hamwe tuwujyana ahandi kugira ngo na bo babashe kubona umuriro w'amashanyarazi, ni yo mpamvu dukwiriye gukurikirana imigendekere, uburyo umuriro ugenda unyuze muri za nsinga, tukirinda kuzicokoza kuko zishobora kudutera impanuka, cyangwa se tugahura n'icyo twita inkongi y'umuriro.

Ubucuruzi ni ikintu cyiza gikomeye cyane. Ariko na none igihe iyo ducuruza, dukwiriye kugaragaza ibyo ducuruza kugira ngo nuturuka hirya no hino, abashe kubibona bitamugoye, kuko ntashobora kumenya ibyo akeneye ko ubifite, atabonye ikibigaragaza. Ni yo mpamvu dukwiye kugaragaza ibicuruzwa byacu.

Imyanda ni ibintu biba bitagikoreshwa n'abantu. Ibintu biba byaramaze guta agaciro . Niyo mpamvu imyanda mu ndimi z'amahanga dukunda kuvuga ngo porofeshonolo gabeji korekishoni. Imyanda ikusanyirizwa ahantu hamwe habugenewe hanyuma ikaza kujyanwa mu nganda bakayitunganya ,bakayikuramo ibindi bikoresho. Reka rero imyanda tuyisigasire ,tuyifate neza kuko tuyifashisha kugira ngo tubone ibindi bikoresho biturutse muri ya myanda.

Bana reka dukunde ishuri, kuko ishuri ridufasha mu bintu byinshi bitandukanye, harimo kumenya gusoma no kwandika, wahura n'icyapa ukagisoma, ukamenya iyo werekera cyangwa se niba ukamenya aho utari utakagombye kujya, niyo mpamvu iyo utize neza ngo umenye gusoma no kwandika, ntushobora gupfa gusoma icyapa ngo usobanukirwe ibicyanditseho.

Ubucuke n'ikintu cyiza cyane, ariko nanone n'abaducuruza dukwiriye kugaragaza ibicuruzwa ducuruza, kubigaragaza rero ntabwo ari ngombwa byose kubimanika hanze ahubwo tuzifashisha ibirango birimo ibyapa, ibyo byapa bikadufasha cyangwa se bigafasha abaje batugana kumenya neza ibicuruzwa dufite, aho ahantu uhinjira wese akara amaze kubona ibyari bugure cyangwa se ari buhahe kuburyo bimufasha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Akabari ni ahantu heza cyane twicara tukaganirira, ndetse tukaba dushobora no kuhajyana abantu bacu cyangwa se inshuti zacu, tukahaganirira kugira ngo tuhakure inama zatwubaka mu buzima bwacu ,cyane igihe dufite ikibazo tukabasha no kugikemura, kugira ngo abantu bakunda kugira ibibazo bya hato na hato, babashe kumenya uko baritwara muri sosiyete turimo, ni yo mpamvu rero dukwiriye kuhakunda tukahakoresha neza icyo hagenewe.

Tugerageza kubaka inyubako za kijyambere, riko kandi zidashobora gutera impanuka. Kandi twite ku mazi, dufata amazi yose aturuka ku nyubako izo arizo zose. Kuko amazi ari kimwe mu bisenya ibikorwaremezo. Bityo tugerageze kubibungabunga. Tubungabunge umutekano w'ibyo twagezeho.

Isoko ni ahantu heza, dushobora gusanga ibintu bitandukanye. Urugero, dushobora gusangamo ibiribwa, cyangwa se tukabona isoko ry’imyenda, tukabona isoko ry’inkweto. Isoko ry’inkweto rero ni isoko ryiza tujya gushakamo inkweto, kugira ngo tubashe kwambara, twirinde gukomereka mu birenge, ari byo bishobora kudutera n’ubundi burwayi bushobora gufata ibindi bice by’umubiri, biturutse mu kwambara ibirenge. Ni yo mpamvu dukwiriye gushishikarizwa kwambara inkweto, kugira ngo tubashe kubaho neza.

Dukwiriye kugira isuku ku mutwe, ku inzara n'imyambaro ndetse n'aho turi hose, niyo mpamvu dukwiriye kujya kwiyogoshesha cyangwa se kugosha imisatsi igihe yaba imaze gukura, kugira ngo tubashe kugira isuku ndetse tugasukura n'inzara zacu kuko ariho hantu hambere hashobora guturuka imyanda myinshi ikabasha kukugeraho bitagoranye, niyo mpamvu dukwiriye kujya tugirira ibyo bice isuku.

Ni byiza ko dukora ubucuruzi. Ubucuruzi bwacu bukaba bufite ibintu byujuje ubuziranenge. Ariko kandi dukwiriye kugaragaza ibicuruzwa dukoresha ducuruza. Twifashishije bimwe mu birango. Urugero nk'ibyapa. Icyapa ni igikoresho cyiza cyane gishobora kuranga ibicuruzwa byose ucuruza, bityo buri wese akaza akugana, agamije guhaha ibyo abona kuri cyo cyapa kimwereka ibyo ufite mu nzu cyangwa se ibyo ufite muri botique.

Ibikoresho bya muzika n'ibikore byiza cyane dukwiriye kwitaho, kandi tukabasha no kubigura, tukabikoresha mu buzima bwa buri muntu, kuko umuziki uraruhura ukumva umuntu ubwonko, umuntu akumva ubwonko bumeze neza bikamurinda icyo twita mu ndimi z'amahanga siterese cyangwa se kunanirwa ku bwonko niyo mpamvu rero dukwiye gukunda umuziki ariko kandi tugakunda umuziki utabangamira imitekerereze ya muntu.

Eyateri ni umurongo twifashisha mu kuganira na bagenzi bacu. Uwo murongo rero ukaba wifashishwa mu itumanaho, tukawifashisha mu ikoranabuhanga, tukaba dukeneye kuganira na bagenzi bacu twifashishije terefoni ngendanwa, cyangwa se zitagendanwa tukifashisha uyu murongo. Nyamara dukwiriye kwirinda kuwukoresha binyuranyije n'amategeko cyangwa se kuyikoresha nabi, mu buryo bushobora kubangamira abantu bagenzi bacu.

Tugaragaze ibyo dushoboye, ibyo tuzi, ibyo dukora, kugira ngo na bagenzi bacu babashe kutwifashisha tubahugure, cyangwa se tubakorere bya bindi dukora kugira ngo babashe kubikoresha. urugero tugaragaze ibyapa by'ibyo dukora niba dukora duteka urabaza ngo duteka iki? Tubiteka gutya ku buryo n'ukeneye undi kubikora aza akamuhugura.

Forigo ni igikoresho twifashisha mu bucuruzi ndetse n'iwacu mu rugo, kugira ngo turinde ibiribwa byacu kwangirika, urugero imineke kugira ngo itabasha kubora vuba dushobora kuyishyira muri firigo, amata kugira ngo adacika dushobora kuyashyira muri firigo, inyama kugira ngo zitaza kubora tuzishyira muri firigo kugira ngo bitaza kwangirika.

Imbuto ni ikintu cyiza cyane imbuto zidatandukanye rero dufite imbuto zirimo: imyembe, avoka ,amacung amwe dukunze kwita amarongi tukagiramo n'indimu. indimu n'icunga biratandukanye kuko n'ubirya yumva bitandukanye mu kuryoha. rero niyo mpamvu dukwiriye kwifashisha imbuto tukazirya kuko zifasha uruhungangogozi rwacu gukora neza.

Inzu z'ubucuruzi ni inzu twifashisha tukazifashisha turi benshi, zikenerwa na buri umwe wese kugira ngo abashe guhaha abone ibimutunga, niyo mpamvu zidufitiye akamaro kuko zitanga imisoro ku gihugu cyacu, tukabasha kubona ibidutunga muri rusange, tukanabona amafaranga twifashisha twubaka ibikorwa remezo nk'imihanda, kugira ngo tuyifashishe dutwaye ibinyabiziga bitworohereza ingendo.

Tugerageze kubaka inyubako ziranga igikorerwa aho hantu zubatse. Urugero inzu y'ubucuruzi itandukanye n'inzu y' imiturire, iyo tugeze hariya dukunda kwita tu ini wani uburyo haba hubatse ziriya nzu ziba zitandukanye n'inzu z'ubucuruzi zisanzwe, n'iyo mpamvu twagakwiriye kubaka inyubako z'amajyambere zijyanye n'ibikorerwa aho hantu.

Ubucuruzi ni ikintu cyiza cyane gifasha umuntu kumenya uko akoresha umutungo we neza ndetse na rubanda， agaharanira inyungu rusange kuruta inyungu bwite， ugashyira ibintu ku murongo， buri kintu mu mwanya wacyo， ntufate isabune ngo uyivange n’ifu yo kurya， buri kintu kikaba kiri mu mwanya wacyo.

Dukunde aho turi tuhagaragaze neza, binyuze mu kuhubaka neza mu kuhashyira ibikoresho byabugenewe, tukahasiga amarangi. Irangi ni ikintu cyiza cyane kuko ririnda utuntu twinshi dutandukanye, harimo imibu ndetse n'utundi tuntu dutandukanye dufata mu bisika by'inzu, bityo tukaba dushobora kudutera uburwayi.

Isoko cyane cyane ry'ibiribwa, n'isoko dusangamo ibiribwa byinshi bitandukanye, ushobora gusangamo: ibitunguru n'inyanya, intoryi, ibisheke, pavuro, puwaro amashu n'ibindi byinshi. Niyo mpamvu rero dukwiye kurifata neza tukaricungira umutekano kugira ngo hatagira ikintu kiza kitaza kubangamira cyangwa se kwangiza bya biribwa, igihe tubitegura ku meza bikaba bishobora kwangiza abantu. Ni byiza rero ko dukurikirana isoko ryacu tukaririnda.

Inzu y'ubucuruzi ni inzu nziza dukwiriye gufata neza tukayibungabunga kugira ngo tubashe kuyihahiramo kubeko bikenewe na buri umwe wese. Niyo mpamvu rero buri wese ukenera kuyikoresha akwiye kuyijyamo anayicungira umutekano bityo akabasha gufasha ucuruza ndetse nugura, kugira ngo babashe gutera imbere bashobore no gutanga ibyangombwa birimo imisoro kugira ngo igihugu nacyo kibashe gutera imbere twubaka ibikorwaremezo.

Twifashishe ibituranga, ibituyobora bitujyana ahantu henshi hatandukanye, kugira ngo twirinde kuyoba, ndetse no gutakaza igihe, igihe tugomba kugikoresha neza twirinda guca mu nzira zitandukanye za kure, tugerageza kuyobora abantu baje batugana, twifashishije ibirango, nk'ibyapa, ndetse na nimero za telefone, byaba ngombwa n' iy'indi mi mirongo dushobora kwifashisha, kugira ngo tubashe kugera aho tugiye bitagoranye.

Ibase ni igikoresho cyiza twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi, binyuze mu kukibikamo ibikoresho cyangwa se kugikarabiramo, cyangwa se kucyogerezamo ibikoresho, bityo bigafasha sosiyete kugira isuku ndetse no kubungabunga umutekano w'ibikoresho byayo ,ni yo mpamvu dukwiriye kuyikoresha tukabasha gukurikirana n'ubuziranenge bwayo ,bityo ntitubashe kuyangiriza ,cyangwa se ngo ibe yakwangirizwa n'ibikoresho tuyikoresha.

Isoko ni ahantu heza dushakira ibyo dukeneye bidufasha mubuzima bwacu bwa buri munsi. Ariko hari amasoko aba mu miturirwa. Niyo mpamvu mu miturirwa ikorerwamo amasoko hakwiriye kugaragara buri gice n'ibihakorerwa kugira ngo ujyamo ashaka serivisi abashe kuyibona bitamutwaye igihe kinini.

Iyo turera abana, tubigisha gutandukanya ibintu byinshi bitandukanye birimo nk'inyajwi ingombajwi ndetse n'ibindi bitandukanye. Kugira ngo tumenye ko umwana wacu ari kujijuka rero dushobora kwifashisha inyajwi ndetse n'ibinindi byinshi bitandukanye tukabishyira hamwe akaza gutoranyamo ibyo umubwiye cyo gihe bizagufasha kumenya ko umwana amasomo kumuha ari kuyumva neza.

Iringi ni izina rihabwe igikoresho gikoreshwa mu ipine y'igare cyangwa se ipine ya moto n'ipine y'imodoka ,mu pine y'imashini dusanga mo imiringi, n'icyuma gikomeye cyane kiba gifashe , igifashe ipini y'inyuma kugira ngo itaza kubonda cyangwa se rigafatana, bityo kikayiha ishusho ituma kigenda gihirima, kikayiha ishusho y'uruziga.

Ubucuruzi ni bwiza kuko buduha amafaranga, ubucuruzi buduha amafaranga mu buryo butandukanye, nawe udacuruza umenye ko ubucuruzi bugufitiye akamaro, kubera ko iyo ukeneye igicuruzwa ujya kukigura, iyo umucuruzi yishyuye umusoro cyangwa se wowe ukiguze ugatanga umusoro udufasha kubaka ibikorwaremezo birimo imihanda amashuri ndetse n'ibitaro, ni yo mpamvu dukwiriye gukomera ku bicuruzwa tugacuruza, kugira ngo tubashe kugira ubuzima buzira umuze dufite amafaranga.

Botiki mu ndimi z'amahanga mu kinyarwanda ni inzu duhahiramo ibyo kurya ndetse tukaba dushobora no kwihahira n'ibindi bitandukanye , ariko bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi niyo mpamvu rero ari inzu dukwiriye kubungabunga tukayiha agaciro tukirinda kuyangiriza kuko ibifasha imiryango myinshi.

Ni byiza ko tubaho kandi tukabaho neza, binyuze mu kubona ibyo umubiri wacu ukeneye. Urugero kurya ukarara habi nta bwo bishobora gutuma ugira ubuzima bwiza. Ni yo mpamvu dukwiriye kugira ibikoresho byo mu rugo birimo: amabase twifashisha dukaraba, amakuvureri twifashisha mu gitanda, ndetse n'intebe zo kwicaraho zidufasha kwicara tugatekana, tukirinda kwangiza uruti rw'umugongo.

Butike cyangwa se mu ikinyarwanda icyo twita inzu y'ubucuruzi ni ahantu abakiriya baza bashaka ibyo bagura, hanyuma bakaza babisanga, aho hantu rero dukwiriye kuhafata neza, tukaharindira umutekano kubera ko haba hafasha abantu barenze umwe, hafasha abantu mu buryo bwa rusange, niyo mpamvu dukwiriye kubungabunga umutekano waho tukirinda ko hashobora no kwangirika, kugira ngo ibirimo bitaza no kwangiriza abaje babishaka.

Umuturirwa ni inzu iba gereretse inshuro zirenze imwe cyangwa seigeretse inshuro imwe, rero tuyita umuturirwa kubera ko ari inzu nziza idufasha kuhangira w'ubutaka dufite, niba tubaka inzu ya mirongo itatu ifite metero mirongo itatu kuri mirongo itandatu, ni inzu nini kuko iyo nzu zishobora kuzubaka ari nyinshi, zikajya ku bw' butaka zikahakwira tuko ntuzubaka iyotwifashe umutegorwa rero bidufasha guhangira ubutaka.

Gaze ni igikoresho cyiza, twifashisha iwacu mu guteka, bityo bigatuma duteka vuba kandi byoroshye bitagoranye, kubera ko utereka isafuriya, cyangwa se igikoresho uburyo wifashisha uteka, ugafungura bikabasha gutuma ubona ibyo kurya vuba, kandi mu buryo bukoroheye, rero tuyikoreshe, kandi tuyikoresha neza twirinde impanuka dushobora guterwa nayo, kugira ngo tubashe kubaho mu mumudendezo, dufite umutekano nta kibazo dufite.

Hoteli n'ahantu heza, ariko nanone hoteli igira izina n'aho dushobora gusanga dufite singita hoteli, amekusi hoteli, sinowu hoteli, virunga hoteli ndetse n'andi mahoteli atandukanye. Mu Rwanda niyo mpamvu rero dukwiriye kuyabungabunga tuyafata neza, kuko tuyakiriramo tukanakiriramo inshuti zacu ndetse n'imiryango yacu. Bityo tukabasha kuruhuruka mu buryo bwo kugabanya umunaniro w'ubwonko aribyo twita siteresi mu icyongereza.

Ikirango ni iki? Ikirango ni ikintu kiranga igikorerwa ahantu, twifashishe ibirango kugira ngo tubashe kwamamaza ndetse no gutangaza ibyo dukora bimenwe na bose bamenya ibyiza byabyo kugira ngo babashe kubihaha, baturangire n'abandi bakiriya badufasha kubona amafaranga, tukayifashisha kugira ngo tubashe kubaho neza.

Hoteri n'ahantu twakirira bagenzi bacu cyangwa inshuti zacu cyangwa se imiryango yacu, rtukabasha kuhishimira, tukaharuhukira binyuze mu kuhaganira, tukaharyama, tukaruhuka, bityo tukabasha kubona umutekano twifuza udufasha kumva turuhutse ntitugire siteresi mu mutwe.

Ni iki cyamfasha kumenya ahantu ikihakorerwa, bitansabye kubaza? Nawe byagutera amatsiko, ni iki rero? Ni icyapa. Icyapa ni kimwe mu bimfasha gusobanukirwa ndetse no kumenya igikorerwa ahantu nta muntu mbajije binyuze mu gusoma ngasobanukirwa nashaka ngahamagara na nimero ihari iranga abakorera aho hantu.

Hoteri mu ndimi z'amahanga. Ni ahantu twiyakirira, tujyana abashyitsi bacu tukabakira, hakanagerageza kwakira n'abandi bantu benshi batandukanye. Hoteri rero ni ahantu dusanga ibyo kurya, ibyo kunywa, aho kuryama, tukaruhuka. Niyo mpamvu rero ari ahantu heza dukwiriye gufata neza, bitewe n'akamaro kanini hafitiye buri umwe wese ukenera kuhakoresha.

Mbega ngo biraba byiza gutura ahantu hafite umutekano, mbegaga ngo biraba byiza gutura ahantu. Ahantu hatatse rero hadufasha kuruhuka ndetse no kumva tumeze neza, bikaturinda kugira umunaniro mu mitekerereze cyangwa se ibyo twita siteresi.

Tugerageze kubaka ariko dukoreshe ibikoresho biramba. Ibikoresho biramba bidufasha kudahora dusenya, cyangwa se kudasenyerwa na zimwe mu ngaruka z'umuyaga ,cyangwa se tugasenyerwa n'amazi. Dukoreshe amabati mazima kandi tugerageze no gukoresha umuriro w'amashanyarazi, ahantu heshi hatandukanye harimo mu guteka ndetse no mu gucana.

Mu isoko ni ahantu heza buri wese ashobora kugana agamije ko ahakura ibyo ashaka, ni yo mpamvu dukwiriye kurifata neza, tukarikurikirana, tukamenya umutekano wa ryo, tukirinda n'ibintu bishobora kuryangiriza, kuko bishobora kubangamira umutekano wa benshi.

Isoko ry'ibiribwa ni isoko ryiza rifasha buri umwe wese kubona ibyo akeneye yifashishije amafaranga. Niyo mpamvu dukwiriye kuribungabunga rero tugashishikariza abantu benshi bakarikoresha kubera ko nukenera ibitunguru uzabisangamo, nukenera intoryi uzazisangamo, nukenera inyanya uzazisangamo. Ibitunguru rero ni ikibiribwa dukata tukagiteka mu mavuta cyangwa se tukagikatira ku biryo bityo tukabasha kukirya tukabona intungamubiri zifasha kugira umubiri mwiza.

Kugira ngo tubashe gusa neza, dukaraba amazi meza n'isabune, ariko rimwe na rimwe tukagerageza no gukoresha amavuta .amavuta rero ari mu bwoko butandukanye ,hari amavuta twisiga uruhu rukamera neza ariko twibuke ko hari n'amavuta ashobora gutera ikibazo cy'uburwayi bw'uruhu, harimo nk'ibyitwa bya mukorogo. byaraciwe ubu tibigikoreshwa mu rwanda .niyo mpamvu dukwiriye kumenya ayo dukoresha ahuje n'uruhu rwacu. adashobora guhindura uruhu ,tugakoresha amavuta adashobora tugiraho ingaruka

Amashu ni igihingwa cyiza cyane, iwacu mugo duhinga kugira ngo tujye turakirya, abantu barya amashu akenshi n'akenshi aba bibafasha kugira ubuzima bwiza, niyo mpamvu rero twese dushishikarijwe kurya imboga zirimo amashu, kuko abantu bakunda kuyarya bibafasha kugira ubuzima bwiza, bityo bikabarinda n'uburwayi.

Isoko, tugira amasako atandukanye: isoko ry'ibiribwa, iry'inkweto, ni iry'imyenda. Isoko ry'imyenda niryoo ryiza buri wese agana agamije gushaka umwambaro kugira ngo abashe guhisha ubwambure bwe. Niyo mpamvu dukwiriye kurifata neza hanyuma ibicuruzwa tuguriramo by'imyenda kugira ngo bize byujuje ubuziranenge bityo hatagira uwo bibasha kwangiza binyuze mu kubyambara bitujuje ubuziranenge.

Inkweto ni igicuruzwa cyiza cyane, kandi ni umwambaro mwiza cyane dukunda kwambara mu buzima bwacu bwa buri munsi, zikaturinda kwandura indwara dushobora kwandura, igihe twambaye ibirenge. Abantu bambara ibirenge akenshi usanga bararwaye indwara zitandukanye. Niyo mpamvu dukwiriye gukunda kwambara inkweto cyane, n'utazikunda tukamushishikariza kuzikunda, kugira ngo abashe kubaho mu buzima bwiza. Bityo bimurinde kwandura indwara zishobora guterwa no kwambara ibirenge cyane.

Aho tuba tugerageza kuhashyira ibikoresho bihagije mu buryo bwo kwirinda uburwayi bwa hato na hato urugero dugire aho dushyira imyanda hitwa pubele, tugire ibikoresho twifashisha turya ibiyiko cyangwa se amafoke mu Kinyarwanda dukunze kwita amakanya tugire ibikoresho twifashisha tunywa birimo ibikombe cyangwa se ibirahuri. Ibi bizadufasha kugira ubuzima bwiza buzira umuze binyuze mu kwirinda uburwayi.

Icupa ni ibikoresho dushyiramo ibintu bitandukanye, ushobora gushiramo ibyo kunywa, ibyo kunywa bishyirwa mumamacupa dukwiriye kubicungira umutekano kugira ngo bize gufatwa n'ababikeneye ariko bifite isuku idashobora kwangiza ubuzima bwabo, niyo mpamvu rero amacupa dukwiriye kuyakusanya tukayashyira hamwe tukayagirira isuku hanyuma tukabasha kuyashyiramo bya binyobwa byacu bityo tukaza kubifata bimeze neza byujuje ubuziranenge.

Amavuta ni ibicuruzwa byiza cyane twifashisha igihe dukeneye kugira ngo duse neza, ariko kandi dukwiriye kumenya amavuta dukoresha mu buryo bwo kwirinda uburwayi bw'uruhu buterwa no kwisiga amavuta y'ubwoko butandukanye. N'iyo mpamvu rero dukwiriye gukoresha amavuta ariko tukayakoresha neza, twirinda gukoresha amavuta ari mu bwoko bwa za mukorogo kuko yangiriza uruhu.

Ibase n'igikoresho dukoresha i wacu mu rugo; tukagikoresha dushyiramo amazi tugakaraba, tugakarabya bagenzi bacu ndetse tukoza n'ibindi bikoresho niyo mpamvu rero ibase ikozwe muri parasitike cyangwa se icyuma, niyo mpamvu dukwiriye kuyifata neza kuko ishobora kwangirika cyangwa se ikatwangiriza bityo rero tukabungabunga umutekano wayo tukamenya ko dukwiye kuyikoresha neza, kugira ngo twirinde ko hariwo ishobora kwangiriza.

Wotameloni mu ndimi z'amahanga ni urubuto twifashisha igihe turi gutegura ifunguro ryo kujya ku meza, hanyuma umuntu umaze kurya akabasha kurufata, akarya urwo rubuto kugira ngo rubashe kumufasha mu rwungano ngogozi rwe, hanyuma ibiryo bize kugenda neza mu mubiri ndetse no mu mara habashe korohera, bityo urwungano ngogozi rwe ruze gukora nta mbogamizi ruhuye na zo.

Isoko ry'ibiribwa abenshi dukunda kwita kariyeri， ni isoko ryiza cyane ryinjiza ibintu byinshi mu gihugu， aho abaturage dukuramo ibyo kurya， tujya guhaha， umucuruzi nawe akabona ikimutunga， isoko ry'ibiribwa rero ni isoko rikomeye cyane dukwiriye guha agaciro， kuko ryinjiza imisoro ifasha abaturage benshi kubaka ibikorwa remezo，n'ibindi byinshi. Isoko ry'ibiribwa turikomereho， kuko rifite akamaro kanini ku buzima bwa muntu.

Mu bucuruzi bwacu, tugerageze kubukorera ahantu hemewe, kandi dukore ubucuruzi bwemewe. Mu bucuruzi rero twifasha ahantu hatandukanye, cyane cyane amasoko. Amasoko cyangwa se isoko ni ahantu hifashishwa igihe ducuruza, tugura, tugurisha, tukabona amafaranga adufasha mu buzima bw'uyu munsi ndetse n'ejo hazaza.

Isoko n'ahantu heza dukura ibyo kurya cyane. Isoko ry'ibiribwa dusangamo ririmo amaronji, ibirayi, imineke, amadegedi cyangwa se ibihaza mu kinyarwanda cyiza. Ndetse n'amavuta y'ibyo kurya niyo mpamvu rero isoko ari ahantu heza buri wese ashobora kugana ashaka icyo kurya akakibona.

Isoko tuguriramo ibintu bitandukanye birimo imyambaro yo kwambara, ibikoresho byo mu gikoni, ni isoko ryiza cyane dukwiriye gufata neza kubera akamaro karyo, rifite akamaro kanini ku buzima bwa muntu, kubera yuko iyo twiga uburenganzira bwa muntu dusangamo uburenganzira bwo kwambara bwo kurya, ariko ibyo byose bigerwaho kubera ko ari ibyo bikoresho tuba twifashishije, ibyo bikoresho rero tubisanga muri iryo soko, ni yo mpamvu dukwiriye kurifata neza tugashishikariza buri muntu wese kurigeramo agahaha ibyo akeneye.

Isoko ry'ibiribwa ahantu dusanga ibiribwa. Ni isoko dusangamo ibiribwa gusa, ukaba udashobora gusangamo: imyenda, inkweto n'ibindi bitaribwa. Niyo mpamvu ari isoko dukwiriye gufata neza tukaririnda ibintu bishobora kujyamo bikaba bishobora kubangamira ibicuruzwa birimo ndetse bikaza guhumanya abantu benshi cyangwa se bikangiriza abantu benshi bababahashe bamaze kubirya.

Isoko ni ahantu hakomeye cyane, isoko rero turyifashisha duhaha. Guhaha, nituvuga guhaha abenshi bahita bumva ibyo kurya, cyangwa ibyo kwambara, ariko guhaha ni ijambo ryumvikana mu buryo rusange, dushobora guhaha ibyo ku kurya, cyangwa se imyambaro, n'ibindi bitandukanyeko. Mu isoko rero dusangamo ibyo bintu bitandukanye dukwiriye kubihaha, bityo bikadufasha kugira ubuzima bwiza tukabaho neza.

Dukunde gukora twihangire imirimo dukora ubucuruzi ubucuruzi rero ni ikintu cyiza cyane ubucuruzi bwacu reka tuganzemo ibikenerwa na rubanda ibikenerwa n'abantu baho dukorera akazi kacu. Dushobora gucuruza ibintu bitandukanye imisatsi, ibyo gutunganya imisatsi , tugacuruza ibyo kurya birimo amafu y'igikoma urugero bino. Bino ni ifu y'igikoma irimo amafu yose ifasha umwana gukura neza.

Tugerageze kwita ku ndyo yuzuye kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza, niba tugiye mu isoko kuguhaha tumenyeko tugomba guhaha ibirinda indwara, ibyubaka umubiri, n'ibitera imbaraga. Mu byubaka umubiri rero harimo ibinyamisogwe, ibinyamisogwe harimo amashaza, ibishyimbo ndetse n'ibindi. Amashaza rero adufasha mu kubaka umubiri tukagira umubiri mwiza, tugerageze kuyifashisha igihe turi gutegura ibi indyo ku meza.

Dukunde gutembera no kugira ubutembere, dufashe imiryango yacu gutembera, ibi bizarinda iki, kuzimira bya hato na hato babana dusanga dusanga bazimiye niyo mpamvu rero dukwiriye kumenya ubwoko bw'inyubako, rimwe na rimwe igihe twatembeye twabasha no gusarira bagenzi bacu, inyubako tubamo zitandukanye n'inyubako zakabare, zitandukanye n'inyubako z'ubucuruzi, isoko rero ni ahantu heza dukwiriye kumenya kugira buri wese abashe kuhahahira.

Isoko ni ahantu heza dushobora gusanga ibintu bitandukanye. Hari isoko ry'ibiribwa, hari isoko ry'imyenda, harimo isoko ry'ibikoresho ariko isoko muri rusange ahaho ibi byose tubisanga tuhita isoko. Rero ni ahantu heza dushobora guhahira inkweto, imyambaro bityo tukabaho tumeze neza nk'uko muri yumanirayiti mu burenganzira bw'umuntu akwiriye kwambara akabaho ameze neza.

Buriya dukeneye iyo dukeneye imiti tuyikura ahantu henshi hatandukanye, harimo kwa muganga, ndetse n'ahandi heshi hatandukanye. Hari umuti w'amavuta ya royo, amavuta ya royo tuzi neza ko tuyateka tukayarya mu biryo. Tuyateka mu biryo tukayarya kugira ngo adufashe kugira intungamubiri zuzuye, tube dufite umubiri ubona ibinyamavuta bihagije. Ariko na none igihe umuntu atameze neza mu nda, cyangwa umwana, yaba umwana cyangwa umuntu mukuru atameze neza, ushobora kwifashisha amavuta ya royo umusomyaho umuntu akaza kumera neza...

Imbuto zirimo imineke zifasha urwungano ngogozi gukora neza, ndetse no koroshya mu mara, ku buryo nta bintu bishobora guhabwa amara ku buryo bishobora kwangiriza amara, niyo mpamvu rero twifashisha imineke igihe umuntu ari kurya ,ugiye kurya ukabanza ugafata umuneke mbere ho iminota mirongo itatu, bifasha urungano ngogozi cyangwa se bya biryo bigiyemo igifu, kugira ngo bigende neza bize kujya mu mubiri no gusohokamo neza.